Ahacururizwa imiti hazwi nka farumasi. Hakaba ari ahantu abarwayi bashobora kugura imiti bandikiwe na muganga, cyangwa se bakaba bafata imiti igihe cyose barwaye.

Ibyatsi biri ku mabuye, akaba ari ibyatsi bikunda kuboneka ahantu hari amabuye. Hakaba hagaragaramo ibyatsi nk'inteja, n'ibindi ibyatsi. Bikaba bishobora gukoreshwa nk'imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura abantu ndetse n'amatungo.

Ibyatsi by'imigwegwe biteye mu gitari, ibi byatsi.

Ibyatsi biteye ahantu hameze nk'igisambu bishobora kuvamo imiti ya kinyarwanda.

Ibyatsi gakondo bitoshye, ibyatsi akaba ari ibimera biba biri ahantu bishobora kwifashishwa nk'imiti gakondo ivura abantu cyangwa amatungo. Ndetse bikaba byifashishwa no mu gukuramo imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa kizungu.

Ikidodoke kiri ku ruzitiro, ikidodoke kikaba ari igihingwa gikunda gukoreshwa cyane, cyane cyane mu cyaro. Abantu bakunda kukirya, bakirya nk'imboga cyangwa se bakirya hamwe n'ibishyimbo.

Ibyatsi bikunda kumera ahantu hagati mu mabuye bikaba bikunda kugaragara cane cane ahantu hari amabuye y'amakoro kandi bikaba bikunda kubamo hagati mu mabuye taco bibabaho.

Igiti cya voka, avoka ikaba ari igiti gihingwa mu rugo, ndetse hashobora no kugihinga ahatari mu rugo, kikaba gitanga umusaruro w'imbuto ziribwa, bityo zigafasha abaturage mu mirire myiza, ndetse ukaba wanazigurisha ukabona amafaranga.

Ibimera biri ahantu mu murima, hagaragaramo ikimera kirekire, bakunda gukoresha mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Ibyatse bihinze, ahantu ibyatsi biba bikoreshwa nk'indabo, ndetse bikaba bishobora kwifashishwa mu bikorwamo ibi byitandukanye kinyarwanda.

Icyatsi iwacu twita imbatabata giteye ahantu. Iki cyatsi cyifashishwa mu miti gakondo.

Igiti giteye mu busitani bw'ishuri. Inyuma y'aho hari umuntu bigaragara ko acyitegereje. Igiti gishobora no gukoreshwa mu buvuzi gakondo. Imbere yacyo hari inyubako z'amashuri.

Ibyatsi byameze ahantu. Ibyatsi bikaba ari ibihingwa bishobora guhingwa cyangwa se byimeza, bikaba bikunda gukoreshwa mu gukuramo imiti y'ikinyarwanda.

Igihingwa cy'ikirayi kikaba ari igihingwa cyera ibirayi biribwa ndetse umuhinzi uhinga ibirayi akaba ashobora kubigurisha bikamuteza imbere akagera no ku rwego rwo kuba yaba umukire.

Igiti cy'umuhate kiri iruhande, rw'inzu yubakishije amatafari ya rukarakara. Kikaba koreshwa cyane cyane mu giturage cyerekana, aho imbibi z'amasambu ziba zigarukiye.